Ndikubona abantu harimo abagore n'abagabo n'abasore, basa nk'aho bari mu nama yabateranyirije hamwe.

Nnzu nini nziza irimo abantu bicaye ku ntebe z'imituku, bakaba bafite udupara ndetse n'amakayi mu ntoki bakaba bafite n'ikaramu bagiye kwandikamo.

Umugore ufite indangururamajwi akaba ahagaze imbere y'akabati kahateretse, inyuma ye hakaba hicaye abantu ndetse n'abapolisi bakaba bafite amazi n'amakayi imbere yabo.

Umugore uhagaze akaba afite indangururamajwi irimo ibara ry'umuhondo, akaba yambaye imyenda idoze mu gitenge ndetse imbere ye hakaba hateretse akantu bashyiraho ibitabo mu gihe bari gusoma.

Inzu nini cyane yifashishwa mu kwakira inama ndetse n'ibindi birori, hakaba hicayemo abantu bafite amakayi mu ntoki ndetse n'amatelefone, bakaba bari kwandika kuri iyo nzu ibikuta byayo bisize irangi ry'umuhondo.

Umugore uhagaze mu bagabo bane wambaye ijipo y'umweru n'umukara, inyuma y'abo bagabo bane hakaba hari abantu benshi cyane basa nkaho bari kugira icyo bumva barikumva, inyuma y'abo bantu hakaba hari inzu n'ibipangu.

Ndabona umuntu ukuze ufite mikoro usa nk'aho uri mu nama ufite inyuganizi cyangwa igitekerezo ari kugenda abasangiza ku bijyanye n'icyabateranyirije aho ngaho, harimo abantu abagore n'abagabo muri iyo nama.

Abantu benshi bicaye bareba hepfo hagati y'amazu ari kumurongo, hakurya hahinze ishyamba ndetse aho hantu bari, hari ipoto rihashinze ritwara amashanyarazi mu ngo z'abantu.

Umukobwa mwiza wambaye akenda karimo amabara y'imikara ndetse n'umuhondo, akaba afite agacuma mu ntoki karimo umuheha, yicaye ku musambi urambuye hasi.

Igikoresho gakondo gikoreshwa mu mihango ya kinyarwanda twavuga nko gusaba no gukwa ndetse no gusura abageni cyitwa imbenja, kikaba kidozwe mu mabara y'imikara ndetse n'imihondo.

Sale nini ihagazemo abantu, ndetse bamwe bakaba banicaye. Imbere yabo kumeza hari udupara tuhateretse, tumwe turimo amazi utundi turimo fanta, Kubikuta hasize irangi ry'umweru ndetse hakaba hamanitse n'ibitambaro.

Igikoresho gikoreshwa mu kwenga ibitoki kizwiho ku izina ry'umuvure kikaba kirambitse ahantu hubakishije imigano ndetse kikaba gitezwe ibuye kugira ngo kidahirima.

Buri gihugu kiba gifite umuco wacyo, ahanini usanga nta gihugu gihuje umuco n'ikindi, twavuga nko kubyina, ururimi ndetse n'ibindi bikorwa byinshi cyane bigaragaza umuco w'igihugu, aho usanga buri gihugu kiba cyihariye ku mucyo wacyo kikanawukomeraho.

Umugore wambaye ikanzu y'umutuku akaba afite ingasire imbere ye ndetse n'icyibo, bikaba biteretse ku musambi urambitse, akaba ari gusya amasaka.

Buri gihugu kiba gifite umuco wacyo, twavuga nk'umuco w'ururimi, imbyino ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye, bigaragaza umuco w'Igihugu, aho usanga buri gihugu kiba kihariye ku muco wacyo, ugasanga nta gihugu gihuje n'ikindi umuco.

Abantu bari mu nzu nini cyane yitabiriwemo n'abandi benshi baje gususurutsa, bkaba bari kubyina imbyino gakondo, bambaye imyenda y'imyeru ndetse n'inigi z'imyeru, bakaba batambiye amaboko.

Inzu irimo imitako y'ibitambaro by'umweru n'umukara, hakaba harimo abantu bambaye imikenyero y'umweru ndetse na gitari n'ameza ahateretse imbere yaho bafite ingoma.

Inzu nini irimo imitako myiza cyane ikaba imanitsemo ibitambaro by'imyeru ndetse n'ubururu, harimo abakobwa ndetse n'abasore bari kubyina bakaba bari kwerekana umuco nyarwanda.

Inzu irimo ibitambaro by'imyeru ndetse n'icyatsi, hakaba hicimo abakobwa bafite igisabo, ndetse n'abagabo bafite ingabo mu ntoki n'icumu nk'uko bigaragara bari kwerekana umuco gakondo.

Ibikorwaremezo birimo amapironi atwara insinga z'amashanyarazi, kikaba cyubatse ahantu ari cyonyine, kirimo ibyuma byinshi ndetse kikaba kirimo n'utundi tuntu dufata insinga kugira ngo zitajegera.

Amashanyarazi ni igikorwa remezo gifasha abaturage mu kwiteza imbere kuko amashanyarazi akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho umuntu abasha gukorera amafaranga binyuze muri ubw buryo. Haba hari n'abantu babishinzwe, iyo habaye ikibazo bakaza kugikemura bikagenda neza.

Ahantu hanini hari imisozi miremire, ndetse n'ihanamye hakaba hateyeho amashyamba noneho hakuno haho hari amapiloni ndetse n'amapoto ahubatse atwara insinga zijyana amashanyarazi ku baturage.

Ahantu hanini harimo imisozi miremire hakaba hateyeho amashyamba ku gice kimwe ndetse ahandi hakaba hateye imyaka, hakurya yaho hari ibyuma bihubatse bizwiho nk'amapironi atwara imiriro y'amashanyarazi.

Imbuga nziza cyane irimo ibyatsi bitoshye hakaba hubatse umurasire w'izuba, ukurura umuriro, ukawujyana ahantu ndetse no mu nganda zitagira umuriro, hakaba hari igiti kihateye, gikurura umwuka mwiza.

Amashanyarazi ni igikorwa remezo kiza cyane kuko gifasha abaturage mu kwiteza imbere, bakabasha gukora imyuga igihe itandukanye aho usanga hifashishwa n'amashanyarazi. Amashanyarazi afasha mu kwihutisha iterambere.

Umugore wambaye ingofero y'umuhondo, ndetse n'igisarureti cy'umukara kirimo amabara y'umweru ku maboko ndetse no ku ijosi, akaba ari kurira urwego kugira ngo ajye kureba ikibazo cyabaye mu muriro w'amashanyarazi.

Ahantu hanini hatuyemo amazu ndetse hakaba hahinze n'imibyare, harimo ipironi rikoreshwa mu gutwara insinga z'amashanyarazi ndetse hakaba hateyemo n'ibiti binini bifashisha mu gushaka inkwi.

Ahantu harambitse imirasire y'izuba minini cyane, hakaba ari ku mbuga, haruguru yaho hakaba hubatse inzu ifite amabati y'umutuku, hakaba hakikijwe n'ibiti birebire bikurura umuyaga ndetse n'imvura.

Amapoto abiri ashinze atwara insinga akaba yegereye ahantu hari imibyare ndetse hakorerwa n'ibindi bikorwa by'ubuhinzi, hakurya hari ibiti bigiye biteye mu mirima bifata amazi kugira ngo birinde isuri.

Hano nk'uko mubibona urabona ko ari umugabo uri gukora inkweto akoresheje imashini zabugenewe, nkuko' mubibona ni umugabo wambaye isarubeti y'akazi ari mu kazi ko gukora inkweto za congo.

Iri ni ipoto riziretseho amatara abiri y'amashanyarazi, iri poto rikaba rifasha abaturarwanda kureba no kureba nijoro rikaba ribafasha gucunga neza umutekano wabo.

Hano ndi kuhabona umugabo wuriye ipoto, ushinzwe ibintu by'amashanyarazi. Uri kugira ibyo ateranya kugira ngo umuriro uboneke hariya, no hakurya hari undi mugabo wuriye nawe ipoto. Uri kugira ibyo ateranya kugira ngo amashanyarazi agaragare muri uyu mudugudu.

Uyu ni umukozi wa REG, sosiyete mu Rwanda ishinzwe ibijyanye n'amashanyarazi akaba asa nk'aho ari gutanga interiviyu kubijyanye n'amashanyarazi akaba yarahagaze aho akorera.

Igikoresho cyifashishwa mu gutanga amashanyarazi. Hakaba hari umugabo wambaye impeta mu cyuma akaba ari gukanda imibare iri kuri icyo gikoresho, uko bigaragara ari gushyiramo amafaranga cyangwa se kugura undi muriro.

Ipoto riziritseho amatara abiri ririho n'insinga z'amashanyarazi, iri poto rikaba rifasha mu kumurikira abaturage mu gihe hije bwije cyangwa hatari kubona.

Inzu nziza isize irangi ry'ubururu, hakaba hariho ibyapa biyimanitseho by'imyeru, byandikishijeho amagambo mu ibara ry'umukara, hanze hakaba hari intebe zihateretse ku mbuga iriyo.

Hano bigaragara ko ari abafundi bari bari kubaka ikintu kimeze nk'ikiraro, bifashishije imbaho, amabuye n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi. Bigaragara ko bari bari hejuru y'ikiraro.

Inzu nziza, igaragara neza cyane, ifite ubusitani imbere, ubusitani burimo amatara ndetse n'indabo nziza, harimo n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, twavuga ko iyi nzu ishobora kuba ikorerwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Hano hari kugaragara inyubako nini cyane bigaragara ko ari iya Leta, hakaba hari n'ibijyega n'imodoka zigiye zitandukanye hashobora kuba korerwamo umushinga cyangwa uruganda.

Icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara ndetse hakaba hariho n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, haruguru yaho hubatse inkingi iriho ibibumbano by'ingagi biri muri bimwe mu bikurura ba mukerarugendo.

Ndikubona inzu nziza cyane kandi nini cyane, ifitemo bigaragara ko harimo ibyumba bigiye bitandukanye bitewe n'amadirisha umuntu ari kubona, inzugi, hakaza kuza indi nzu iri ku ruhande igaragara itagaragaza imiryango, bisa nk'aho ari nk'ikigo runaka.

Uumuhanda wa kaburimbo urimo amabara y'umweru atambitse, ndetse n'ahagaze haruguru yaho hari icyapa cyanditseho imodoka ishushanyije, kiri mu ibara ry'icyatsi hasi yaho hari imikindo ihateye.

Inyubako y'umweru yubakishije amabati y'umweru, imbere yayo hakaba hahagaze abagabo babiri, iyi nyubako ifite imiryango minini cyane ikaba ifite na space nini cyane igaragara ko ashobora kuba ari n'uruganda bakoreramo akitivite runaka.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kikaba kirimo abantu benshi bameze nk'abari gukora siporo, haruguru hari intebe zihateye z'imihondo, ubururu, ndetse n'icyatsi, uko bigaragara iki kibuga ni gishyashya.

Ahantu hanini harimo inzu nziza zisize amarange y'imyeru ndetse hakaba harimo n'imihanda myinshi iri kugendamo abantu, hakurya y'aho hari umusozi muremure uteyeho amashyamba.

Amazi mabi atemba, hejuru hari ikiraro gifatanyije umuhanda abantu bacamo hakaba hariho umuntu uri kwambuka, hakurya y'aho hari igisambu kirimo ibyatsi ndetse hirya hakaba hateye n'amashyamba.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amabara y'imyeru ukaba uri ahantu harambuye, haruguru yaho ndetse no hepfo hakaba hari ibyatsi binini, hakurya hakaba hateye amashyamba ndetse n'ibindi biti bifite amashami maremare.

Umuhanda munini mwiza utsindagiye w'igitaka, urimo kugendamo umugore uhetse umwana ndetse akaba afite undi muntoki. Akaba ari kwerekeza ahantu hari inzu isize irangi ry'ubururu ndetse iriho icyapa cy'umweru.

Imikino n'imyidagaduro ni ikintu kiza cyane kuko usanga gihuza abantu, ndetse kikanatanga ibyishimo ku bantu bagiye batandukanye, ikindi kandi siporo irinda indwara zigiye zitandukanye twavuga nk'umubyibuho ukabije.

Inzu isize irangi ry'ubururu, ikaba iriho icyapa cyandikishijeho amagambo y'umweru ndetse n'ubururu, hakaba harimo abantu bari kugendamo, ndetse hanze hakaba hari umugabo uhagaze.

Hano ndabona ari kukigonderabuzima aho ari abaturage bigaragara ko baje kwisuzumisha cyangwa gufata inama zijyanye n'ubuzima bisa nk'aho ari mu murenge.

Utugari ni ahantu abaturage bajya, bagiye gutanga ibibazo byabo ndetse no kubikemurirwa, bagiye kugirwa inama, ndetse bagiye guhura n'abayobozi, kugira ngo babashe kubabwira ibibazo bafite, babashe kubibakemurira, ndetse babagire n'inama yuko babyitwaramo.

Abagabo batatu umwe yambaye umupira w'icyatsi, undi ni w'umuhondo, undi afite igitiyo mu ntoki. Bafite akatsi, ndetse inyuma yaho hari ibindi bihateye bigaragara nk'amashyamba ndetse n'imibyare.

Abagabo bane bari mwo n'umugore bigaragara ko bari barangije kurangiza igikorwa runaka barangiza bagafata agafoto k'urwibutso inyuma yabo hari n'abantu nabo baba bagore n'abasore gusa bahugiye mu tuntu.

Umugabo uri imbere y'inzu isize irangi ry'umweru ndetse ikaba ifite n'inzugi z'imyeru, akaba ahagaze afite indangururamajwi, imbere ye hari akameza afasheho, hino ye hari icyapa gihari cyanditseho imibare mirongo itatu.

Hano bigaragara ko ari asosiyasiyo ishobora kuba ishinzwe uburenganzira bw'umuntu cyangwa ubutabera ishobora kuba iri nk'imbere y'imbaga y'abantu iri nko kugaragaza uko izabikora cyangwa abantu izifashisha iri gukora dore ko wambaye na furari zibigaragaza ko hari inshingano bashobora kuba bafite.

Inzu nziza isakajwe amabati y'ubururu ndetse ikaba yubakishijwe amatafari ahiye, ifite inzugi z'imikara, hanze hahagaze abantu babiri umwe wambaye isengeri y'umuhondo n'undi wambaye umupira w'umuhondo.

Abagabo batanu bazengurutse imva, ku mirongo itatu, hirya n'abandi babiri hino, ikaba bazengurutse imva yanditseho '' Gikobaba rebelation history trail'' bakaba bari mu igikorwa cyo kwibuka, hirya inyuma y'iyo mva hakaba hari igiti kinini cyane.

Hano bigaragara ko hari umugabo wari wasuwe na Guverinoma y'u Rwanda, ariyo bakunze kwita Leta, harimo n'abashinzwe umutekano, bari kugenda bagira ibyo bamubaza ku bijyanye n'iterambere rye, n'ibintu agiye akora mu buzima bwe bwa buri munsi.

Abagabo ndetse n'umugore bakaba bafite ikiziriko baziritse inka. Inyuma yaho hari Abapolisi n'Abasirikare ndetse hakaba hubatse inzu iriho indabyo z'umuhondo.

Igisharagati kinini kirimo amabara y'imyeru, ubururu ,umuhondo ndetse n'icyatsi. Hicayemo abantu benshi ,abandi bari hanze. Hari igiti kinini kihateye ndetse hakaba hahagazeho umugabo ufite indangururamajwi.

Abantu benshi bahagaze ahantu hameze nk'ahari kubera ibirori hakaba hubatse ibishararaga. Bakoresheje shitingi z'imyeru ndetse zirimo utubara tw'umuhondo n'icyatsi, inyuma yaho hari amashyamba ahateye.

Abantu benshi bahagaze bakaba bari mu gishararaga cyubakishijwe ibitambaro by'imyeru, ubururu ndetse n'umuhondo, uko bigaragara bari gusenga, cyangwa hakaba hari undi muhango ugiye kuhatangirira.

Icyapa kiri ku muhanda w'umukara hafi y'icyo cyapa hakaba hari umuntu uri gutambuka wambaye ijaketi y'umukara ni ti sheti y'umweru, hirya y'umuhanda akaba ari amazu yubakishije inzugi z'icyatsi, bigaragara ko imwe ifunguye izindi zikaba zifunze imbere y'izo nzugi hakaba hahagaze abantu.

Umuhanda uri kugendamo umugabo wambaye umupira w'umukara. Akaba ari hafi y'icyapa kiriho umuntu. Haruguru yaho hari inzu zihubatse za konoshi. Zikaba ziriho irangi ry'umuhondo ndetse amapoto ari imbere yayo akaba ariho insinga zijyana amashanyarazi mu rugo.

Inzu zitandukanye zisize irange ry'umuhondo ndetse n'umweru, hakaba hari insinga zihuriye aho ngaho ku mapoto ahari, hino yaho hari ibiti birebire bihateye kandi bikaba bifite amashami agaye.

Bigaragara ko hano; hari umunyonzi uri ku igare ryiwe kugenda mu muhanda wa kaburimbo ahantu ukunze kwita muri zebra crossing. Kumpandeye akaba hari umugabo, umeze nk'aho ari umusekerite uri gutambuka hirya ye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibara ry'umuhondo mo hagati ndetse hakaba harimo n'imodoka iri kugendamo ikaba isize irangi ry'umweru ndetse imbere hakaba ari umukara . Haruguru hari amaguru y'abantu bari gutambuka bari kunyura mu nzira y'abantu bacamo.

Ndi kubona icyapa gishobora kuba kigaragaza ko aho imbere aho gatoya hari ikorosi, ushobora gukata. Hirya yacyo nkaba ndi kuhabona igiti cy'imyembe, nkaba ndi kubona na borodire umuntu ashobora kuba ari kugenderaho.

Ibyapa ni ibimenyetso bigaragaza amerekezo y'ahantu, cyangwa agace k'ahantu, aho usanga kuimihanda haba hari ibyapa bigaragaza uko imihanda iteye, cyangwa se agace iyo mihanda irimo twavuga nk'ahantu, cyangwa se ibiranga aho hantu.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko ndetse n'abagabo. Bakaba bikoreye amabuye. Hepfo yaho hari ibigori ndetse n'ibiti bihateye. Hakurya hari imibyare hepfo y'inzu zihubatse.

Abantu benshi bahagaze bafite ibitibo, imihoro ndetse n'amasuka, hakaba harimo umugore ndetse nabagabo bambaye imipira yimikara, umwe yambaye ingofero y'umutuku bakaba bari gu gukora umuganda.

Mu gihugu cyacu usanga hari umutekano mwinshi cyane kuko hari abantu baba babishinzwe, twavuga abapolisi n'abasirikare ndetse n'izindi nzego zitandukanye z'umutekano, aho zisanga zicunga umutekano w'abaturage, bakabaho neza mu mahoro.

Abagabo bari mu gikorwa cyo kubaka inyubako bakoreshejezi matafari ya rukarakara, bigaragara ko bari kumwe n'umusirikare n'umupolisi n'umwe mu bayobozi bari gutangiza igikorwa cyo kubaka.

Umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse na bote, inyuma ye hari umuntu ushinzwe umutekano ari bo bita abapolisi, akaba ari guterura ibuye uko bigaragara ni igikorwa cyabaye cy'umuganda.

Umurima munini urimo abaturage benshi bari guhinga, hakaba harimo n'abasirikare bari gutambuka. Hepfo yaho, haparitse igare ndetse hakaba hahinze n'urutoki, rwiza cyane abantu basaruramo ibiribwa.

Igihugu cyacu ni Igihugu kiza kuko kiba kirimo umutekano mwinshi cyane, aho usanga abaturage batekanye bakaba ari abashinzwe umutekano twavuga: abapolisi, abasirikari ndetse n'izindi nzego zifasha mu gucunga umutekano w'abaturage.

Inzira nini igaragara nk'aho ari umuhanda. Ikaba irimo abantu benshi ndetse Abasirikare n'Abapolisi bafite amabuye mu ntoki. Uko bigaragara barimo gukora umuganda. Haruguru yaho hari urutoki ndetse n'ibigori bihateye.

Hano hari kugaragara abagore babiri n'umugabo n'abandi nyuma, bigaragara ko bari bari kwishimira intambwe bateye ku bijyanye n'umutekano n'ibyo bakora hagati aho ngaho.

Abagabo bicaye mu busitani bakaba bicaye ku ntebe ziri gusa ubururu, umwe muri abagabo akaba arimo umupolisi, undi akaba ari umusirikare, abandi bakaba nta kintu bambaye kibagaragaza nk'abashinzwe umutekano.

Umurima munini uri guhingwa n'abantu benshi hivanzemo n'abashinzwe umutekano aribo bita abasirikare, bakaba bari guhinga uko bigaragara hari umuntu bari guha umuganda cyangwa ubufasha, inyuma yabo bateye ibihuru.

Abaturage bikoreye amabuye ndetse n'umusirikare wambaye imyenda y'akazi arifite mu ntoki, imbere yabo hari akana kiyogoshesheje ndetse haruguru y'aho hari indabyo n'imibyari ihateye.

Ahantu hahuriye abantu benshi bambaye amabote hakaba harimo n'umusirikare, bari gutengura ahantu bahahinga, imbere yaho hari ibihuru bihari bimeze nk'uruzitiro rwubakishije imiyenzi ndetse n'ibindi biti.

Inama bari barimo bijyanye n'iby'umutekano harimo umugabo ushinzwe umutekano mu kigo cya gipolisi, yari afite mikoro afite ibyo ari gusobanurira cyangwa ariko gikurikiye konkoli n'icyapa cyari cyateye inkunga wenda iki gikorwa bita imbuto fondesheni.

Abagabo babiri n'umugore umwe, umwe mu bagabo akaba ari umwe wambaye jezi zisa ubururu akaba afite balo mu ntoki, undi mugabo afite igikombe, anafashe no kuri sheke, umugore nawe afashe kuri sheke, bigaragara ko ari sheke iriho amafaranga uriya mukinnyi yatsindiye.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo abakinnyi babiri bambaye imyenda y'imikara ndetse n'amasogisi y'umweru, undi akaba ari imyenda y'umuhondo, bafite umupira wo gukina urimo amabara y'umukara n'umweru.

Umupira uturutse mu kibuga hagati hirya y'umupira hirya cyane ukaba ari abakinnyi bari kugenda mu kibuga, bigaragara ko hari n'abandi bantu bicaye hanze y'ikibuga bitegereza uko umupira uraza kugenda.

Mu kibuga harimo abakinnyi batatu, hirya y'ikibuga hakaba hari moto ebyiri, hari n'abafana, umugabo uri gutambuka n'umuntu wicaye bakaba basa nkaho ari umupira uri kuba hagati aha ngaho.

Abakinnyi bari bakina umupira w'amaguru bari kwirukanwa mu kibuga, umwe muri abo bakinnyi yambaye jeze zisa ubururu, na godiyo, n'aka ga mu ukuboko kumwe. Undi akaba yambaye agapira gasa umweru, n'gakabutura ka orange nagodiyo za orange.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibara ry'umuhondo mo hagati. Ndetse ku ruhande hakaba harimo amabara y'umweru n'umukara ndetse na jaride. Harimo imodoka y'umweru ya polisi.

Abantu benshi biganjemo abambaye amasengeri, amapantaro ndetse n'amakabutura ya siporo, bakaba bari ku murongo, aho bashyizemo intera kugira ngo baze kubasha kwisanzura mu gihe igikorwa cyo gukora siporo kiraba gitangiye.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo abakinnyi bane bafite umupira wo gukina, bakaba bari kwishyushya, haruguru hari imikingo ihari, yasigaye mu gihe bari bari kubaka iki kibuga ndetse hakaba hatemo ibyatsi.

Ahantu handitse imidugudu igize akarere ka Nyagatare, izitabira igikombe cy'Umurenge Kagame. Hakaba harimo Karangazi izakina na Mukama ndetse na Musheri izakina na Kiyombe n'ibindi bitandukanye.

Ahantu heza hameze nko muri sitade hakaba hicayemo abantu bari ku ntebe z'imikara, harimo n'Abapolisi bambaye impuzankano y'imikara iriho ibendera ry'u Rwanda. Bakaba basa nkaho bari kureba umupira cyangwa ikindi gikorwa kiri kuhabera.

Siporo ni ingenzi cyane ku buzima bwa muntu kuko usanga hari indwara zimwe na zimwe zikira kubera umuntu akora siporo, twavuga nk'umubyibuho ukabije ndetse n'izindi ndwara zifata ibihaha, ikindi kandi siporo ihuza abantu badaherukana, bagahura bakabasha no kwishima.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru hakaba hari izamu, rifite ibyuma by'imyeru ndetse hakaba harimo umukinnyi uri kwirukanka, asatira umupira bakina, haruguru yaho hari imirima ndetse n'imikingo, baciye mu gihe bari bari kubaka, iki kibuga.

Biragaragara ko ari umuntu wambaye imyenda ya siporo uri gukora imyitozo ngororamubiri, uherereye muri sitade, hejuru haka hari imyanya abafana bagiye bicaramo, hirya ku ruhande hari n'umuntu uri kumureba ibyo akora.

Hano ndi kubona abantu benshi cyane bambaye imyenda ya siporo bari bari mu gikorwa cyo kwiruka ahagana nimugoroba.

Siporo ni ingenzi cyane ku buzima bw'umuntu kuko siporo ifasha abantu mu kwirinda indwara, ikindi kandi ifasha abantu mu kwishima, mu kuruhura ubwonko ndetse ihuza n'abantu batari baherukanye, bakabasha guhurira ahantu hamwe bakanishima.

Sitade irimo abaturage benshi cyane bakaba barimo n'amabara n'idarapo ry'igihugu ririmo umuhondo ubururu, n'icyatsi. Bakaba bari hejuru bicaye hejuru y'ikibuga.

Ahantu hanini hari imbuga nziza ikaba irimo abantu batambitse amaboko ndetse bameze nk'aho bari gutaruka, imbere yaho hari umuntu uhahagaze uri kubakoresha, akaba ari siporo yabahurije hamwe.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru harimo umugabo wambaye imyenda y'umuhondo ndetse hejuru hari aho abafana bicara, hari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, hasi hari inzu zirimo ibikoresho, bifasha abakinnyi.

Abantu benshi bari ku murongo bakaba bameze nk'aho bari gukora siporo, uko bigaragara ni ikigoroba, inyuma yaho hari amapoto ariho amatara ndetse bakaba bari ku mbuga itarimo ibyatsi.

Inzu nini isize irangi ry'umweru ndetse ikaba irimo ibirahure hakaba hari n'intebe zo kwicaramo, hahagaze abantu bari kubyina uko bigaragara hari igikorwa cyahabereye cyabashimishije.

Urabona ko ari abana bari guconga ruhago, rurimo abambaye ubururu n'abambaye amakabutura y'umukara na godiyo, bari gukina umupira w'amaguru.

Ikibuga cy'umupira kirimo abakinnyi benshi bamwe bunamye ndetse abandi ari ku kumurongo w'inyuma barahagaze. Harimo abambaye imyenda y'imihondo ndetse n'ubururu. Uko bigaragara hagiye kubera amarushanwa yo gukina.

Abagabo babiri bahagaze mu muhanda w'igitaka umwe akaba yambaye ingofero na bote n'ipantaro n'itabuye undi akaba yambaye inkweto za badaboda zisa umuhondo n'ipantaro n'umupira.

Hano hari kugaragara umusaza uri gutambuka, umuhanda wa kaburimbo, hirya hakaba ari akazu ka MTN, hari umuntu ucuruzamo mobayiro mani ni serivise zijyanye na za MTN, hirya hakaba hari umuhanda munini wa kaburimbo.

Ndi kubona moto imeze neza isa naho ari nshyashya ihagaze mu muhanda wa kaburimbo hirya y'akabari n'abantu basa n'abarimo gucuruza ifu iseye, hirya hakaba hari na kandagirukarabe n'akabido...

Umuhanda w'igitaka mubi urimo imikoki ukaba uri kugendwamo n'umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, hepfo y'aho hari ibyatsi ndetse n'ibiti bihakikije.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo ibara ry'umuhondo mo hagati, utandukanya amerekezo imodoka ziba ziri bunyuremo, haruguru yaho hari igipangu kihubatse, kirimo urugi rurimo uturahuri tw'umweru ndetse rukaba rusize irangi ry'umukara.

Ahantu hanini cyane hateyemo ibyatsi by'urwiri, hakaba hanyuzemo inzira isa nk'aho ari ntoya, ariko abantu bakaba bayifashisha, uko bigaragara abashumba niyo banyuramo mu gihe bazanye inka zabo kuziragira.

Ikibuga cy'itaka gisize neza cyane kikaba kirimo aho imodoka ziparika ndetse n'aho zikatira, hakurya yaho hari ibiti bihateye birebire bifite amashami manini.

Ahantu hari imbuga nini cyane irambuye, hakaba hifashishwa mu kwigisha abantu imodoka ndetse no gukorera ibyangombwa kugira ngo bemererwe kuyitwara, hepfo y'aho hari ibiti ndetse n'ishyamba bihateye.

Mu cyaro usanga hari imihanda ifasha abaturage mu bwikorezi butandukanye, ahanini usanga hari imihanda y'igitaka ariko hari n'ahari imihanda ya kaburimbo yihutisha ubwikorezi noneho abaturage bakiteza imbere.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibara ry'umweru hagati ndetse ku ruhande hakaba hivanzemo n'umukara, hakaba hateye n'imikindo, hepfo yaho hari inzu ihubatse isize irangi ry'ubururu, ikaba imanitseho icyapa.